Abana batoya bicaranye n'umubyeyi urimo kubigisha mu irerero, irerero ni gahunda yazanywe na leta aho abana batoya batangira kwigishwa bakiri bato kugira ngo bazabashe gukura bafite ubwonko butyaye.

Kugaburira abana ku ishuri ni kimwe mu bintu bifasha abanyeshuri kubaho neza, ndetse bigashishikariza n'abana kujya ku mashuri kuko nta kibazo cy'inzara baba bafite bari buhurireyo na cyo, ibyo ngibyo bituma umubare w'abana bava mu ishuri ugabanyuka cyane.

Abana batoya bicaye ku mukeka, n'abandi bantu bakuru babiri barimo kubereka ibishushanyo mu bitabo, hakaba hari inzu imwe hakurya yabo ndetse n'ibiti.

Abana batoya bari mu kigero kimwe bicaye hamwe barimo gukina bishimye, bamwe baricaye bareba imbere abandi inyuma, bose barimo barishimisha mu gihe bari hamwe bategereje gutaha iwabo.

Abanyeshuri baba bagomba kwigira ahantu hasa neza ndetse bagahabwa n'umwanya wabo ubwabo kugira ngo babashe kuganira basabane, babashe kwisanzuranaho no kumenyana, ibyo ni byo bibafasha mu buzima bwabo n'imibanire ya buri munsi.

Abana b'abanyeshuri baba bagomba guhabwa umwanya wo gukina ndetse no kwidagadura kugira ngo babashe kumenyana bisesuye, ndetse babashe gufunguka mu bwonko biciye mu mikino isaba gukoresha ubwonko, ndetse bakabona n'igihe gihagije cyo kuruhuka.

Abantu benshi bari kumwe harimo abana biganje ndetse n'abantu bakuru babiri gusa, bakaba bari mu kibuga kinini kitarimo ubwatsi k'igitaka gusa.

Abana baba bagomba gutangizwa ishuri bakiri batoya kandi bakarikundishwa kugira ngo bazakure bazi gusoma ndetse bakunda ishuri, ibyo ngibyo bituma abana batanga ishuri cyangwa se ngo barivemo batarasoza kwiga.

Bana bicaye ku bukarabiro butagikoreshwa, kuko bwakundaga gukoreshwa mu gihe cy'indwara y'icyorezo cya kovide cumi n'icyenda, aba bana bakaba bambaye inkweto zifunguye ndetse ari batoya cyane.

Abana bari mu irerero barimo kwigishwa uko bagomba kwitwara ndetse no kutiyanduza, barimo gukina ndetse bahabwa uburere bw'ukuntu bagomba kwitwara mu gihe batari kumwe n'ababyeyi babo, cyangwa se mu gihe batari kumwe n'ababarera.

Abana bicaye ku ntebe zifite amabara y'icyatsi, umuhondo ndetse n'ubururu, bakaba bafite amakaye imbere yabo, ndetse imbere hari ikibaho na mwarimu ahagaze yambaye umwenda w'akazi.

Abana benshi hamwe n'ababyeyi babiri bicaye barimo gusangira, bakaba baje mu itetero aho barererwa kugira ngo babashe kugira uburere bahabwa kandi babuhererwe hamwe.

Irerero ririmo abana batoya bahagaze kumukeka ndetse n'umubyeyi urimo kubigisha, barimo kuririmba bakaba bazanywe kugira ngo bagire ibyo bigishwa bazakure bazi ubwenge ndetse basobanukiwe.

Abana batoya baba bagomba kujyanwa mu irerero kugira ngo bakure bigishwa indangagaciro ndetse n'uburyo bagomba kubaho, bakigishwa kwiga ndetse no gusoma mu gihe bakiri batoya. Ibyo bibafasha gukura bafite ubwonko bufunguye ndetse bagasobanukirwa ibintu mu buryo bworoshye.

Ameza ariho amasahane yaririweho ndetse n'ibiyiko, hakaba hariho n'igikombe, byose biri hejuru yayo, byose ntabwo byogeje hari n'intebe hirya y'ameza.

Inyubako yubakishijwe amatafari ahiye, ikaba ifite amadirishya akozwe n'ibyuma by'umweru, inzugi zikaba zikoreshejwe imbaho zifite ibara ry'icyatsi.

Icyapa kimanitse ku rukuta rw'ishuri, urukuta rwubakishije amatafari ahiye, kiravuga intego ndetse n'indangagaciro z'ikigo bagenderaho kugira ngo batange uburezi bufite ireme, kandi butajegajega mu buryo bwo kubaka Umunyarwanda bifuza.

Abana bagomba gutozwa gusoma bakiri bato kugira ngo bazakurane umuco wo gukunda kwiga ndetse babe abanyabwenge bamenye byinshi batahure n'ibyo batari bazi.

Ikigo cy'amashuri ni ikintu kiba kigomba kurindwa ndetse kikarindwa ikintu cyose gishobora kwinjiramo imbere kikaba cyahungabanya abanyeshuri bakirimo cyangwa inyubako z'ikigo, ibikoresho bikirimo ndetse n'abagikoreramo.

Ibishushanyo biri ku gikuta bigaragaza abana bambaye impuzankano ndetse n'indarapo ry'igihugu, ibi ngibi ni ugushishikariza abana gukunda igihugu ndetse no kugikorera, bagakura bafite ubunararibonye mu bintu byo gukunda igihugu.

Inyubako yubakishije amatafari ahiye ndetse n'amabati. Mu bigize igisenge cyayo harimo ibyuma. Imiryango yayo igizwe n'ibyuma by'icyatsi, ndetse amadirishya harimo ibirahuri. Ikaba ifite sima hasi.

Imfashanyigisho harimo uducamirongo ndetse n'udufasha kubara igihe, ni bimwe mu bikoresho byifashishwa n'abarimu iyo bari kwigisha abana batoya, ibijyanye no kubara igihe ndetse no kwandika imirongo ndetse n'ibindi bimenyetso.

Abana bari mu muhanda w'igitaka. Bambaye imyenda irimo amashati y'ubururu ndetse n'amajipo y'icyatsi, bakaba bambaye udukweto dufunguye, barimo kugenda.

Umwenda umanitse, ku gikuta, cyamatafari, ahiye. Wanditseho amagambo menshi, yandikishije ikaramu y'ubururu. Hakaba hariho n'ibishushanyo, bigiye bishushanyijeho.

Ibigo by'amashuri ni ahantu abanyeshuri bigira, aho haba hari amashuri menshi bakaza bakahahurira n'abarimu babo bakabigisha, amasaha yo gutaha yagera bagasubira iwabo mu ngo z'iwabo.

Abana batoya biga mu mashuri biba byiza iyo bagaburiwe ku ishuri kugira ngo baticwa n'inzara mu gihe bari ku mashuri, ibyo ngibyo bibafasha mu myigire yabo kuko biga kandi bakiga neza.

Abana batatu bari mu ishuri bafite mudasobwa ntoya y'icyatsi, bakaba bicaye ku ntebe z'ibiti, ishuri rikaba ririmo na sima ndetse n'ikibaho cy'umukara.

Ishuri rigomba kuba rifite icyapa kiriranga, ku buryo buri muntu wese uhageze agomba kumenya ko ari ishuri. Ndetse rigomba kuba ryubakishije amatafari ahiye, ndetse rinakorotireriye. Kugira ngo hizerwe umutekano w'abarimo imbere.

Abanyeshuri bari ku ishuri baba bagomba kuba bambaye impuzankano ndetse isa neza, ifuze kandi bambaye n'inkweto kugira ngo bibafashe mu gihe bari kujya mu mashuri yabo babe basa neza.

Imeza iri mu nzu, imeza itwikirijeho igitambaro cy'ubururu hamwe n'ikindi cy'umweru, akaba inzu iteye irangi ry'umweru n'idirishya rimwe rifunguye, ikaba ifite parafo iteye irangi rya kaki.

Chalk ni kimwe mu bikoresho bikoreshwa mu kwigisha kuko zifashishwa mu kwandika ku kibaho, ibyo bituma abanyeshuri babona vuba ndetse bakanasobanukirwa ibyo mwarimu yashatse kuvuga kugira ngo nabo babisobanukirwe ndetse nibabibazwa bazabashe kubisubiza kandi bizabagirire umumaro.

Inyubako igizwe n'amadirishya, menshi. Ndetse n'inzugi nyinshi. Inzugi zikaba zigizwe, n'ibyuma bifite ibara ry'icyatsi, ndetse n'amadirishya nayo afite ibara ry'icyatsi

Ameza ari mu biro, hariho impapuro ndetse n'ibindi bikoresho byo mu biro, byifashishwa mu kazi ka buri munsi, hakaba hariho umuti wica uduko ku ntoki, aho wifashishwa kurwanya indwara zandura.

Amashuri afite imbuga nini ndetse akikijwe n'ubutaka bwisanzuye budafite ikindi kintu gikorerwaho, bituma hataba urusaku rubangamira abanyeshuri.

Abana b'abanyeshuri bari mu ishuri, umwe afite ikintu ari kwereka bagenzi be barimo kukiganiraho, ibi ngibi byongera umubano mwiza hagati y'abana bagakura biyumvanamo kandi bakundana, bigatuma babana neza mu mahoro.

Abana bahagaze imbere y'ishuri bafashe ku idirishya ry'ishuri bambaye impuzankano, ishuri ryubakishije amatafari ahiye, rifite inzugi zifite ama ibara rijya kuba umukara.

Abantu bicaye mu nyubako bafite mudasobwa, harimo intebe zikozwe mu buryo bw'imbaho, zifite aho kwicara ndetse n'aho gushyira ibyo bafite, bakaba bafite mudasobwa ntoya zifite ba ry'icyatsi, iyi nyubako ni ishuri kuko harimo ibibaho byo kwandikaho.

Abana bicaye mu ishuri barimo kwiga kugira ngo babashe kumenya ibyo mwarimu ababwira, nabibabaza mu kimini bazabisubize neza babone amanota meza babashe gutsinda.

Abana benshi batandukanye bari hanze barimo gukina, bakaba bamwe bahetse ibikapu, bamwe bambaye inkweto zifunguye abandi bambaye imipira inyuma y'inifomo.

Abana bicaye hamwe barimo kwiga, barimo barebana. Ni benshi, harimo abakobwa n'abahungu bafite imisatsi mikeya, bambaye imyenda bamwe yubururu, abandi ya kaki.

Imfashanyigisho yateguwe ikamanikwa ku rukuta iriho ibishushanyo, harimo igishushanyo cy'inzu, icy'imeza, icy'imodoka, icy'igikombe, icy'igare ndetse n'icy'igiti byifashishwa mu kwigisha abana batoya.

Kwigisha abana batoya bisaba kugira ngo ubahereze imfashanyigisho, ubashushanyirize ndetse ubasobanurire mu buryo bwimbitse, kuko baba bataragira ubwenge buhagije bwo kwisobanurira cyangwa se kumva ikintu kitagaragara neza.

Abana bambaye amakabutura n'amashati, amakabutura ya kaki amashati y'ubururu bwerurutse ndetse n'inkweto zifunguye z'umuhondo, akaba ari abana batowe umwe yikoreye bafu.

Ishuri rigomba kuba rifite ibyicaro byiza ndetse rigahereza n'abanyeshuri ahantu ho kwandikira mu gihe biri ngombwa, abanyeshuri bicara ku gice kimwe bakandikira ku kindi, rero icyiza ni uko baba bafite ahantu heza kandi hanini hisanzuye.

Ibibuga by'imyidagaduro ni bimwe mu bintu bifasha abantu mu gihe bakeneye kuruhuka cyangwa se bakeneye gukora siporo ngororamubiri, ibyo ngibyo bifasha abantu kudahugira mu ngeso mbi cyangwa se ngo bajye mu bikorwa by'urugomo bituma bashobora kwisanga bakoze ibyaha.

Inyubako yubakishije amatafari ahiye ndetse, afite amadirishya akozwe mu byuma, hakaba harimo n'ibirahuri. Aya mashuri afite sima hasi, ndetse hirya yayo hari ubwatsi.

Abana bafite amakaye yo kwigiramo, barimo kwigishwa ibintu bitandukanye, bibafasha mu mibereho yabo ya buri munsi ndetse bibatyariza kuzagira icyo bimarira, mu buzima bwabo bw'ahazaza kuko ubwenge bahabwa bazabukoresha mu kugira ngo bazibesheho ndetse babesheho n'abazabakomokaho.

Ibitabo by'amashuri abanza, mu mwaka wa gatanu. Bikaba ari ibitabo, by'ikoranabuhanga ndetse na siyanse, yifashishwa n'abarimu, ndetse n'abanyeshuri biga mu mwaka wa gatanu w'amashuri abanza. Kugira ngo biyungure ubumenyi mu bijyanye na siyanse ndetse n'ikoranabuhanga.

Ibikoresho by'ishuri byiganjemo amakayi nshoboka ndetse n'ibindi bitandukanye, bikaba biri gufashishwa abana kugira ngo babashe kwiga uburezi bwabo bugende neza.

Inyubako yubatse mu buryo bw'ishuri ikaba ifite amabati y'ubururu ndetse n'ibyuma bifashe hasi bifashe igisenge cyayo, ikaba ari inyubako ndende ifite imiryango myinshi itandukanye.

Kugira amashuri menshi ni kimwe mu bifasha uburezi kwihuta, kandi bukagera kuri benshi kuko bituma buri mwana wese ushatse kwiga abona aho yigira kandi hameze neza, bityo rero kongera amashuri n'ikintu cy'ingenzi cyane.

Umwarimu wambaye umwenda w'akazi ahagaze impande y'ikigega gifata amazi, akaba yiteguye kujya mu kazi ategereje gusa ko igihe kigera kugira ngo atangire kwigisha ibyo yateguriye abanyeshuri.

Gukoresha ibikoresho by'ikoranabuhanga mu gihe urimo uratanga amakuru ku banyeshuri cyangwa se kwigisha, ni byiza cyane kuko bifasha buri umwe kugira ngo yumve kurusha uko wakoresha umunwa w'umuntu utagera ku bantu bose ngo bumve neza.

Itsinda ry'abanyeshuri bicaye abandi bahagaze bategereje kumva ibyo umwarimu wabo ababwira, kwiga bisaba gushishoza, gutega amatwi ndetse no kwitwararika kugira ngo wumve neza ibyo bakubwira kugirango uzabashe kubisubiza igihe bazaba babikubajije.

Abana bicaye ku ntebe zikozwe mu biti bambaye impuzankano y'umweru hejuru ndetse n'amapantaro ya kaki, akaba bafite n'impapuro z'umweru ziri ku ntebe zikoze mu biti.

Imihanda ni kimwe mu bintu bifasha mu koroshya ingendo, aho umuntu ashobora kuva mu gace kamwe akajya mu kandi mu buryo butamugoye. Imihanda ikoreshwa n'abantu batandukanye b'ingeri zose harimo abakuru, abatoya, abajya mu kazi, abanyeshuri ndetse n'abakora indi mirimo itandukanye.

Abantu benshi bicaye hamwe bambaye impuzankano y'umweru hejuru ariyo mashati, ndetse n'ubururu bwererutse hasi ariyo mapantaro cyangwa se amajipo. Bakaba bicaye mu kibuga hagati y'amazu ndetse hari ubahagaze imbere ufite ibyo ari kubabwira.

Abana barimo kubyina bagaragaza umuco gakondo, ni ikimenyetso cyiza kigaragaza ko abana batozwa umuco wabo wa kera; ibyo ngibyo bikaba bifasha abana gukura bakunda igihugu ndetse bishimira umuco wacyo.

Igitabo cyo mu mashuri yisumbuye, ishuri ryo mu wa mbere cy'imibare, igitabo cy'imibare kiba kirimo amasomo yagenewe abana bo mu wa mbere kugira ngo bige imibare.

Abanyeshuri bari gukora ibizami bagomba kuba bicaye neza, batuje batabyigana kandi bisanzuye kugira ngo bagire umutekano mu gukora ibizami banibuke neza ibyo bize babishyire ku rupapuro nk'uko babibajijwe.

Ibigo by'amashuri ni bimwe mu bintu biteza imbere igihugu mu buryo bwihuse kuko bituma abana b'igihugu biga bakabona ubumenyi bukenewe ku isoko ry'umurimo, kugira ngo biteze imbere babone amafaranga ndetse n'igihugu bagiteze imbere.

Imikino y'amaboko ni imwe mu mikino ikinwa cyane, ikaba ishobora gufasha kuruhura mu mutwe, kunanura ingingo ndetse no gukora imyitozo ngororangingo bisanzwe, ikaba ishobora no gukorwa mu buryo bwa kinyamwuga ikaba yakwinjiriza amafaranga.

Ikigo cy'amashuri cy'urwunge rwa Butare, ni ikigo giherereye mu Ntara y'Amajyepfo mu Karere ka Huye, kikaba ari ikigo gifite amashuri yisumbuye ibyiciro byombi, kikaba gifite abanyeshuri benshi kandi kikaba kizwiho gutsindisha neza.

Ibigo by'amashuri bigomba kuba biri ahantu hitaruye, bimeze neza, byubatse neza, bifite ubusitani bumeze neza, ku buryo bifasha abanyeshuri kwiga bafite umuyaga mwiza, ndetse batumva urusaku rw'ibiri hanze. Ibyo ngibyo bikaba bibafasha kumva no gusobanukirwa neza ibyo biga.

Imyidagaduro ni kimwe mu bintu bifasha abanyeshuri gutuza mu mutwe ndetse bakumva bakunze amasomo yabo, kuko bibaha agahenge mu gihe batarimo kwiga bikabafasha kuruhuka ndetse bakananura umubiri kuko siporo zirinda n'indwara zitandura.

Abanyeshuri baba bagomba kwicazwa ahantu hamwe bakaganirizwa ku bintu bibafitiye umumaro, bakagirwa inama yo kwirinda ibintu bibi ndetse no kwitwara neza mu buzima bwabo bwa buri munsi, bagahabwa inyigisho zose zishoboka kugira ngo bazavemo abantu bakomeye mu gihe kizaza.

Umwarimu urimo kwigisha abana, abasomesha ku kibaho akoresheje igiti. Aho atunga ku kibaho bakareba ibyo yigisha na bo bagasubiramo. Yanditse ku kibaho akoresheje ikaramu ndetse n'urupapuro, aho yagiye yandika amagambo ashaka ko babona ndetse n'ibishushanyo.

Amashuri yubatse neza, ndetse akikijwe n'ibiti n'abanyeshuri bari imbere yayo, barimo kuruhuka mu gihe bategereje gusubira mu masomo. Aya mashuri yubatse mu buryo bufasha abanyeshuri kwiga neza, ndetse bakabona ikirere kiza gituma ibyo bize bibagirira akamaro.

Abanyeshuri barimo kwigira hamwe basobanurirana bifashishije amakaye n'amakaramu ndetse n'ibitabo, kwiga ni kimwe mu bintu by'ingirakamaro abana batozwa bakiri batoya kugira ngo bazabashe kwigirira umumaro mu buzima bwabo.

Kwambara impuzankano ni kimwe mu bintu bifasha abanyeshuri gusa neza ndetse bakaba bagaragara neza, bituma abanyeshuri bitandukanya n'abaturage basanzwe ndetse bikabafasha mu myigire yabo kuko baba basa neza.

Inyubako igeretse rimwe ifite amabati ajya kuba ubururu ndetse n'inzugi zikozwe mu ibara ry'umweru, hakaba hari abanyeshuri bayiri imbere bigaragara ko ari inyubako y'ishuri, hakaba hubatse neza mu buryo bugezweho.

Abantu babiri, b'igitsina gabo, bari hagati y'intebe nyinshi, zikozwe mu mbaho. Bakaba barimo baramwenyura, izi ntebe ziri mu nzu, aho zibitse. Zimwe zigeretse ku zindi.

Abangavu bahetse ibikapu bambaye n'impuzankano, bigaragara ko ari abanyeshuri baturutse hirya no hino bari gutega imodoka y'umweru kugira ngo ibe yabajyana iyo bagana.

Urujya n'uruza rw'abantu bafite matola ndetse bamwe muri bo bari kwinjira mu modoka, bakaba bari kujya mu modoka y'umweru ndetse n'ibikoresho byabo bafite bari kubyinjizamo.

Umuhanda ukoresheje amabuye urimo abantu barimo kugenda, abo bantu ni abana batoya bigaragara ko bambaye uniform bashobora kuba bari kujya ku ishuri cyangwa bari kuvayo, hakaba hakikijwe n'ibiti birebire cyane.

Inyubako nziza z'amashuri ni kimwe mu bintu bifasha uburezi gutera imbere ndetse bikazamura ireme ryabwo, ibyo bituma abanyeshuri biga bumva neza ibyo biga ndetse bakagira ubuhanga buhanitse mu byo bazakora igihe bazaba bashoje amasomo yabo.

Umwana w'umunyeshuri ateruye isorori irimo ibyo kurya bigaragara ko ari ibishyimbo. Akaba yari abijyanye aho barira. Ibigo bimwe na bimwe bigaburira abana ku mashuri kugira ngo baticwa n'inzara.

Abanyeshuri bahagaze hamwe, barimo kwigishwa ikintu runaka cyangwa se barimo gusobanurirwa ikintu runaka, bakaba bahagaze bose bitegereza ahantu hamwe kugira ngo barebe neza ibyo barimo kwerekwa ndetse banumve neza ibyo bari kubwirwa.

Kugaburira abana ku ishuri ni kimwe mu bikorwa bifasha abanyeshuri kwiga neza. Kuko bituma biga badafite inzara ndetse bakita ku byo biga kuko baba badatekereza igihe bari butahire ngo bajye kurya iwabo.

Ikoranabuhanga ni ikintu cyiza cyane, ku buryo umwana wese bishoboka yakwigishwa gukoresha ibikoresho by'ikoranabuhanga harimo na mudasobwa, kugira ngo aho azagera akeneye kubikoresha bitazamugora, yewe habe no mu kazi azabe ari intyoza kuri ibyo.

Imihanda myiza ni kimwe mu bintu bitera iterambere, kuzamuka vuba vuba kubera ko bituma ibihingwa ndetse n'ibindi bikorwa byose bigenda bikagera aho bijya vuba kandi mu buryo bwihuse, bigatuma iterambere naryo rigenda gutyo rikagenda ryihuta cyane.

Imikino ni kimwe mu bikorwa bifasha abanyeshuri kuruhuka mu mutwe ndetse bakagira no gushishoza mu mikorere yabo ya buri munsi kuko bibafungura mu mutwe, imikino isaba kuba bafite ahantu heza ho gukinira ndetse no kwidagadura.

Urujya n'uruza rw'abanyeshuri bahetse ibikapu bari kujya mu modoka, kugira ngo babashe gutaha iwabo mu mago atandukanye, aho baba baravuye bagiye ku ishuri, igihe kikaba kigeze kugira ngo basubireyo bajye kureba ababyeyi babo baruhuke, bitegura gusubira ku mashuri batangira ikindi gihembwe.

Isomero ni kimwe mu bintu bifasha abanyeshuri, kwiga kandi bakiga neza bakaba babasha gutsinda amasomo yabo, mu buryo butabagoye cyane. Bibaha ubumenyi bw'ibintu biri mu bitabo, ndetse bikabaha n'umwanya wo kwiga ndetse n'aho kwigira hatuje, cyane cyane mu gihe umunyeshuri ashaka kwiga ku ruhare rwe.

Abanyeshuri, iyo bari kuva ku ishuri, basabwa kwitwararika bakagendera neza mu muhanda, kuko bishobora gutera impanuka mu gihe batitwaye neza, ngo bagendere ahagenewe kugendera abanyamaguru.

Abantu bicaye ku ntebe zikozwe mu biti bambaye imyenda hejuru y'umweru, undi yambaye umupira urimo ibara ry'ubururu ndetse n'umweru, bakaba bicaye bategereje umuntu cyangwa se hari icyo bategereje kubwirwa.

Kwigisha abanyeshuri gukora isuku aho baba n'aho bigira, ni kimwe mu bintu bigize uburezi, baba bagomba kwiga kwikorera amasuku kugira ngo bibarinde umwanda ushobora gutera indwara ndetse n'ibindi bibazo bitandukanye.

Amashuri ageretse afasha kugabanya ubuso ikigo cyubatseho kugira ngo amashuri abe menshi kandi abanyeshuri bige bisanzuye, batabyigana ishuri ritarimo abanyeshuri benshi.

Abantu bicaye mu rusengero bambaye imyenda isa, bigaragara ko ari abanyeshuri, hakaba hari uwo bahagaze imbere, urimo kubabwira ibintu runaka kugira ngo babyumve.

Abanyeshuri bicaye imbere y'ameza, ku meza hariho imfashanyigisho za mwarimu yateguye. Mwarimu ahagaze imbere y'ameza arimo, arabigisha abasobanurira ibyo yateguye mu isomo ry'umunsi.

Akawunga ni ibyo kurya bikunda kuribwa mu mashuri, bikaba ari ibyo kurya biba bikozwe mu ifu bavanga n'amazi ifu y'ibigori, bikaba bikunda gukoreshwa cyane kubera ko biba bidahenze ugereranyije n'ibindi byo kurya.

Icyapa cy'ishuri gishushanyije ku rukuta kigaragaza intumbero z'ishuri ndetse n'ibyo ishuri rigenderaho, harimo indangagaciro ndetse n'ibyo bifuza kugeraho.

Urujya n'uruza rw'abantu bafite matola n'ibikapu. Bakaba bamwe muri bo bambaye impuzankano y'amashuri, ndetse hakaba hari n'imodoka n'umuhanda wa kaburimbo.

Umuntu w'igitsina gore urimo kwandika kukibaho akoresheje chalk, aho arimo kureba ibyo ari kwandika ku rupapuro, arimo kwandika ibintu ahawe byo kwandika cyangwa se ari gusobanurira abandi bagenzi be.

Kwiga bisaba kwitegereza ndetse no gushishoza mu gihe barimo kugusobanurira kugira ngo ibyo bavuga ubyumve neza kandi ubisobanukirwe, ibyo bituma ubasha gutsinda neza ikizamini iyo ubajijwe.

Itsinda ry'abanyeshuri benshi bicaye hamwe, aho bitwikiriye imipira mu mutwe bigaragara ko hari izuba, barimo kugira ngo birinde izuba, hakaba hari amakuru barimo guhabwa bose bayahererwa hamwe ari yo mpamvu bicaye hamwe.

Amadarapo abiri rimwe ni iry'Igihugu cy'u Rwanda, rifitemo ibara ry'ubururu hejuru umuhondo hagati icyatsi hasi, irindi ni darapo rifite ibara ry'umuhondo ndetse n'iry'umweru rifitemo ikimenyetso cy'umuhondo.

Ibigo by'amashuri ni bimwe mu bintu bifasha mu kongera ubumenyi bw'abanyeshuri, rero bigomba kuba byubatse ahantu heza hitaruye hatari urusaku rw'abandi bantu cyangwa se ibindi bikorwa kugira ngo abanyeshuri babashe kwiga mu bwisanzure.

Abanyeshuri bari ku ishuri bibafasha kutajya mu burara ndetse no kwirinda indi mico mibi bashobora kwigira mu byaro byabo mu gihe batajya ku mashuri. Kwiga ndetse bibafasha kwiyungura ubwenge ndetse bakabona ubumenyi buzabafasha kubaho mu buzima bw'ejo hazaza habo.

Ikoranabuhanga mu burezi ni kimwe mu gikoresho gituma uburezi bwihuta ndetse bugatanga umusaruro kuko bituma ireme ry'uburezi ryiyongera. Ikoranabuhanga ryifashishije amashusho mu kwiga rituma abanyeshuri babishyiraho umuhate ndetse bakitegereza neza bigatuma ibyo biga babyumva kandi bakabisobanukirwa mu buryo bworoshye.

Imyidagaduro ni myiza ku bwonko kuko bifasha ubwonko kuruhuka, rero abanyeshuri baba bagomba guhabwa igihe cyo kwidagadura mu gihe amasomo yarangiye.

Umwarimu uri ku kibaho arimo kwigisha abanyeshuri, arimo kubigisha ibintu aba yabateguriye kugira ngo babifate, nibabibabaza mu kizami bazabashe kubitsinda kandi bizabagirire umumaro mu buzima bwabo bw'ahazaza.

Imbuga nini itarimo ubwatsi, ifite amazu ayikikije. Ayo mazu akaba afite imiryango n'amadirishya byinshi ndetse akaba asakaje amabati y'ubururu.

Amarembo yikigo cy'ishuri cya Saint Joseph, ateye irangi ry'ubururu, ndetse handikishijeho amagambo n'ibara ry'umutuku, ku rugi rwaho rukoze mu byuma.

Inyubako yubatse ifite esikarie zubakishije sima, ikaba ifite na jaride irimo ubwatsi, ndetse n'imodoka iyiparitse imbere, ifite inzugi zikozwe mu byuma ndetse harimo n'ibirahure, inzugi zikaba zifite ibara ry'umukara.

Ikoranabuhanga ni kimwe mu bintu bifasha uburezi gutera imbere. Mu gihe abanyeshuri bafite ikoranabuhanga rihagije bibafasha kwiga neza kandi bakiga vuba ku buryo bashobora kubona ikintu cyose bakeneye kuri murandasi.

Intebe ziteye mu busitani. Zifite ibara ry'umuhondo, izindi ry'ubururu. Hakaba hari igiti cy'umuyembe ndetse hasi hari basuparama. Hakaba hamwe hapavomye ndetse hubatse na rigore y'amabuye.

Abanyeshuri bicaye imbere yabo hari abayobozi ndetse n'umupolisi, barimo kubahugura ku bintu runaka. Abanyeshuri bambaye impuzankano z'umweru ndetse n'imipira y'icyatsi, abayobozi biri imbere yabo bakaba bicaye ku meza.

Inyubako nziza zigezweho ni kimwe mu bintu bifasha guteza imbere uburezi kuko abanyeshuri bigiramo biga bisanzuye, bakiga nta bintu bibabangamira, nta rusaku ndetse nta n'ibibarangaza.

Inzu iteye irangi ry'umuhondo, hari imeza imbere yayo ifite, inzugi ziteye irangi rijya kuba umukara ndetse zikozwe mu byuma. Ikaba ari inzu igaragara ko ari iyo ubucuruzi.

Ahantu ho kwigira hagomba kuba hasukuye, hasa neza ndetse hitabwaho buri munsi, kugira ngo habe hameze neza kuko bifasha abanyeshuri kumva batuje, bari ahantu hafite isuku, bidashobora kubatera n'uburwayi.

Itsinda ry'abantu benshi bicaye mu cyumba cy'inama, aho bateze amatwi ijambo bari kugezwaho n'umuntu ubahagaze imbere, bakaba bose bateze amatwi kugira ngo bumve ubutumwa ari kubahereza kuko bushobora kuba ari ingirakamaro.

Inyubako zubatse neza, ni kimwe mu bintu bifasha imyigishirize ndetse bigatuma abiga bumva bisanzuye ndetse bafite n'umutekano, ibyo bituma biga bashyizeho umwete kugira ngo bazabashe kubona ubuzima bw'ejo hazaza bwiza kandi bafashe n'imiryango yabo.

Kwiga ni kimwe mu bintu bisaba guhozaho ndetse ugakora ibyo wize, ukabishyira mu ngiro kugira ngo urebe niba wabimenye ukanabisobanukirwa, ibyo bifasha kuba umuntu ahita ashobora gukora akazi neza ndetse akabikora nk'uko byari byitezwe mu gihe abonye akazi ko gukora.

Amatangazo y'ishuri agomba kuba amanitse ndetse n'ikintu ahantu hakorerwa kikaba cyanditse ku rugi kugira ngo bibashe kuyobora abantu bahagenda, ibyo ngibyo bifasha gutuma abantu batayoba cyangwa se ngo bayoberwe aho basabira serivisi.

Ubwogero bufite inzugi z'umutuku, mo imbere harimo amakaro ndetse n'amarobine y'amazi ayo bakoresha barimo koga, hakaba hafite amakaro y'umukara ari hasi, mu mpande ariho hari umweru.

Inzu iri mu gipangu gifite amarembo akoze mu byuma, inzu ikaba ifite irangi ry'umweru ndetse n'igice kimwe cyubakishije amabuye, hanze hakaba hari indi nzu isakaye mu buryo bw'ikigonyi ariko idafunze mu mpande hose yubakishije amatafari ahiye.

Icyumba cyo kuraramo cy'abanyeshuri, kigomba kuba kimeze neza, ku buryo bibafasha mu myigire yabo. Hagomba kuba hatuje, hafite isuku, ku buryo baryama bakaruhuka, ndetse no mu gihe bakirimo bakaba bumva batuje nta bintu bibabangamiye. Ibyo bibafasha kwiga neza, ndetse bakumva neza bakanatsinda amasomo yabo.

Icyumba kirimo uburiri, bushashe neza ufiteho n'umusego. Akaba ari icyumba cyo kuraramo, aho harimo uburiri bw'umuntu umwe, araraho ndetse hariho n'ibyo kwiyorosa.

Porojekiteri imanitse hejuru ku gisenge ndetse n'itara, igisenge gifite ibara ry'umuhondo n'ibikuta bifite ibara ry'umweru, porojekiteri ifite urusinga rw'umukara.

Ishuri ryiza rigomba kuba rifite intebe, rifite aho kwandikira, ndetse rifite n'ikibaho gikora neza, by'akarusho ryaba rifite ibikoresho by'ikoranabuhanga, harimo nk'ibyerekana amashusho ndetse n'ibisohora amajwi bikaba ari byiza cyane.

Mudasobwa ni igikoresho kifashishwa mu kwigisha abantu ikoranabuhanga, kikaba kifashishwa mu koroshya akazi cyane cyane ko kwandika ndetse no kuba wakora ibindi bintu bisaba ikoranabuhanga.

Inyubako nziza kandi zigezweho ni kimwe mu bintu bifasha kugira ngo uburezi butere imbere, zigomba kuba ziri ahantu heza hitaruye hari umutekano kandi hatari urusaku, kugira ngo abanyeshuri biga babe bafite umutekano nta n'ikibasakuriza.

Inyubako nyinshi zimwe zisakajwe amabati y'umutuku, iyindi amabati y'umweru ndetse hari n'isakaje amabati y'ubururu, inyuma yazo hari ibiti birebire cyane ndetse hari n'abantu bari kugenda genda imbere yazo.

Umuryango ufite urugi rurimo mitarike. Hariho selire y'icyuma, ndetse hariho n'ibirahure bikasemo uduce dutoya muri rwo

Icyumba kirimo imeza iriho ibikoresho by'ikoranabuhanga birimo kompiyute cyangwa se mudasobwa harimo na telefone. Hakaba harimo n'uburiri ndetse bigaragara ko habamo abantu, bakaba bashobora gukoresha n'izi kompiyuta cya ibikoresho by'ikoranabuhanga mu mirimo yabo ya buri munsi.

Amashuri ni ingenzi mu iterambere ry'Igihugu kuko bifasha abenegihugu kujijuka, bakarwanya ubujiji, bakamenya gusoma no kwandika ndetse bakaba bashobora gukora n'ibindi bintu birimo imyuga ibateza imbere.

Ikoranabuhanga ni kimwe mu bikoresho byifashishwa kwigisha abantu ndetse ku mbaga nyamwinshi, bikaba byakoreshwa kwigisha abantu benshi icyarimwe ndetse bakumva neza, bagasobanukirwa.

Gusenga ni kimwe mu bikorwa bikorwa n'abanyeshuri iyo bari ku ishuri mu gihe cya weekend, bikaba bibafasha kuruhuka mu mutwe ndetse bikabafasha kugira imyitwarire myiza.

Ahantu ho kwigira haba hagomba kuba hafite isuku kandi hasa neza buri igihe, ikirere cy'aho kigomba kuba ari cyiza, hakikijwe n'ubusitani cyangwa se ibiti kugira ngo habe hafite umwuka mwiza kandi hatari urusaku.

Inyubako nyinshi zubatse mu buryo bugezweho ziteye irangi ry'umuhondo, zikaba ziri hagati y'ibiti bigaragara ko hari jaride nziza ndetse n'ubwatsi bwiza bwo muri jaride, imihanda ikaba ipavomye na sima.

Inzu irimo irangi ry'umuhondo harimo ibikoresho byo mu nzu, harimo amavuta korogati ndetse n'uburoso bwo kwiborasa, hakaba harimo telefoni icaginze ndetse na parufe hasi hakaba harimo tapi y'umukara ifite n'amabara y'umweru.

Umuryango uriho akapa kagaragaza ibiro by'abakozi bashinzwe farumasi. Aha uyu muryango ukaba ufite ibara rya shokora, ku ruhande hakaba hariho inkuta ziteye irangi ry'umuhondo.

Mudasobwa ziteretse ku mameza ameze neza, zifashishwa mu kwigisha ikoranabuhanga. Ikoranabuhanga ni ikintu cyiza cyane kuko gifasha koroshya akazi, kigakora ibintu umuntu atakora ari umwe ngo abibashe kandi yifashishije uburyo bworoshye.

Inyubako ya etaje igeretse inshuro nyinshi aho hari amacumbi y'abanyeshuri ndetse n'aho bigira, izi nyubako zose zisangwa muri Kaminuza y'u Rwanda ishami rya Huye.

Amacumbi y'abanyeshuri mu ishami rya Kaminuza rya Huye, aho bameshe bakanika imyenda yabo kugira ngo yume, aha hantu niho abanyeshuri baba ndetse bakorera ibikorwa byabo bya buri munsi.

Ibigo by'amashuri ni kimwe mu bintu byagiye bishyirwa ahantu henshi hatandukanye, kugira ngo bishishikarize abana kwiga kandi bige bitabavunnye, kuko byagabanyije urugendo bakora kugira ngo bagere ku mashuri bigaho.

Icyumba kirimo ibikoresho by'ikoranabuhanga byiganjemo mudasobwa ndetse biteretse ku meza meza yabigenewe, iki cyumba cyifashishwa mu kwigisha ikoranabuhanga ryiganjemo gukoresha ibyuma bya mudasobwa.

Inzu hari amatara acanye, intebe z'icyatsi n'umukara, inzugi zayo zikozwe n'ibara ry'ubururu ndetse n'amadirishya afite ibirahure bifunguye.

Isomero ni kimwe mu bintu bifasha uburezi gutera imbere mu buryo bworoshye kandi bwihuse kuko buri muntu wese ushoboye gusoma, ashobora kujyamo akihigira ubumenyi mu buryo bumworoheye ndetse agasoma agasobanukirwa n'ibyo atari azi.

Isomero ni kimwe mu bintu by'ingenzi cyane mu kwiga kuko bifasha abantu gutahura ubumenyi bubitse mu bitabo batabashije kubonera mu mashuri yabo, ibyo ngibyo bituma batyaza ubwenge ndetse bakamenya ibintu byinshi cyane.

Mudasobwa na telefoni biteretse ku meza, mudasobwa yifashishwa nk'igikoresho cy'ikoranabuhanga, aho ushobora kuyikoresha wandika amagambo, cyangwase ukayikoresha wohereza ubutumwa buva ku muntu umwe bujya ku wundi, telefoni yo wayikoresha mu guhamagara.

Kuba ahantu heza ni kimwe mu bifasha uburezi kugera ku rwego abantu bifuza ko bugeraho kuko bituma umuntu abaho ubuzima bwiza ndetse n'ubwenge bwe bugakora cyane ku buryo bituma akora uko yifuza ndetse akabasha gusobanukirwa buri kintu cyose yigishijwe.

Icyumba kirimo ameza, harimo utubati ndetse na televiziyo, byose bikaba birimo imbere, hakaba hari n'urugi rurimo ibirahure ndetse inzu ikaba iteye irangi ry'umuhondo.

Mudasobwa ni igikoresho cy'ikoranabuhanga gikoresha umuriro w'amashanyarazi. Iki gikoresho kikaba cyifashishwa mu kwiga ndetse umuntu akaba ashobora kugikoresha yandika inyandiko cyangwa se yigira kuri interineti. Mudasobwa yoroshya imirimo yo kwandika ndetse no kuba wasomeraho, ikaba ari igikoresho cyiza cyane.

Abanyeshuri baba bagomba kugaburirwa neza ibyo kurya byujuje ubuziranenge, bifite isuku kandi bifite intungamubiri zose zihagije, kugira ngo babashe kwiga neza bafite ubuzima buzira umuze ndetse budafite indwara.

Icyumba kirimo ibitanda bibiri biriho uburiri bushashe neza ndetse n'imeza imwe iriho igitambaro hejuru gitwikiyeho, hakaba harimo n'amarido mu madirishya y'icyo cyumba ndetse na parafo y'umweru.

Ubusitani ndetse n'ikirere gisa neza ni kimwe mu bintu bifasha abanyeshuri kwitegura neza mu gihe bafite amasomo, bakaba babasha kwiga ndetse bagasobanukirwa bitewe n'uko baba bafite ikirere kimeze neza kitarimo izuba ryinshi gifite n'umuyaga mwiza.

Inyubako zigeretse zisa neza zifite amabati y'umutuku, bigaragara ko ari amacumbi. Izi nyubako zubatse ahantu heza hafite ubusitani bwiza na pasiparama, zikaba zikikijwe n'ibiti byinshi.

Umuntu uhagaze imbere y'igipangu kirimo inzu nziza zubakishije amatafari ahiye ndetse zishakaje amabati y'umutuku, igipangu cyacyo kikaba gikoreshejwe ibyuma by'umutuku ndetse hakaba hari n'inyubako hirya igaragara ko ari amashuri.

Icyapa kimanitse ku ruzitiro rw'ibyuma, cyanditseho amagambo aranga ishuri, kikaba kiriho n'amafoto y'abantu bambaye amakanzu y'icyatsi n'undi muntu ahagaze imbere yacyo.

Icyapa cyerekana amerekezo y'ahantu ndetse n'ibihakorerwa, gishobora kukwereka urugendo usigaje kugira ngo ugere aho hantu, ukaba wamenya ibihakorerwa ndetse n'abahakorera abo aribo. Ni byiza rero kuba wamenya ahantu uri kujya mbere yuko ugerayo ukamenya n'ibihakorerwa.